Ahantu hanini, hari ibintu byinshi, hari ikirori kirekire ndetse hari amashakoshi n'indi mitako myinshi igiye itandukanye. Hari imitako isa n'ibiti, hari ishushanyije ndetse hari n'indi mitako yo gushyira mu nzu n'ahandi hose hatandukanye.

Ni imodoka nziza, ndetse nini y'umweru, ni imodoka y'amapine ane, bigaragara ko ihenze, iri mu muhanda i ruhande rw'inzu ifite uruhu rw'amatafari ahiye, ndetse ni inzu nziza iri mu ibara rw'umutuku ukeye ndetse n'umweru.

Ni amakaro, ndetse ni igikoresho kiza gikoreshwa haba mu Rwanda no hanze yarwo akenerwa ahantu hatandukanye mu myubakire. Haba mu kubaka amazu yo guturamo, amazu y'ubucuruzi ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye.

Ni ikirango kinini ndetse kigari kigaragaza iduka ry'uruganda rw'inyange rukorera mu Rwanda hose rutunganya ibiva ku mata ndetse n'ibikomoka ku mata byose.

Ni umugore usize inzara, ndetse yambaye n'impeta ku kaboko, ari kubera amafaranga, ayo mafaranga ari kubara ni amafaranga yo mu gihungu cy'u Buhinde.

Ni abantu babiri, umwe afite amafaranga yitwa amadolari, ni amafaranga y'amanyamahanga akoreshwa cyane mu bihugu nk'Amerika, Canada n'ahandi. Undi nawe afite andi mafaranga yo mu kindi gihugu.

Ni ikirango kinini, ikigaragaza umuyoboro w'itumanaho wa MTN. Ndetse icyo ikirango kiriho umubyeyi usheshe akanguhe n'umusore muto w'umuhungu, baraseka, bombi baranezerewe, barishimye.

Ni amandazi yitwa uwibutso akorwa n'utwitwa SINA Gerard. Amandazi meza araryoha akundwa n'abato n'abakuru hariho n'igiciro cyayo kuri magana batatu mirongo itanu.

Ni inzu nini kandi nziza yubatswe mu buryo bwiza kandi bugezweho. Iri I Kigali I Kanombe irakodeshwa ni inzu y'ibyumba bitatu ndetse n'ubwiherero bubiri hanze yaho yayo hari umugore wunamye uri gukora amasuku.